Mu cyumba cy'ishuri kirimo abarimu batatu bicaye ku ntebe bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari abanyeshuri batatu bari kwandikirwa amanota bagize mu bizamini bisoza igihembwe, inyuma y'abo banyeshuri hari umunyeshuri wicaye ku ntebe.